Abantu babiri umugore ndetse n'umugabo, aho bari mu murima uteyemo itsina, bakaba bari kugenda bazicyira ndetse bazirundiraho n'ifumbire, kugira ngo zikomeze zimererwe neza cyane.

Amabase agera muri ane, aho atatu ari icyatsi indi imwe ikaba ari ubururu, akaba arimo umuceri, aho harimo n'abakoroboyi bifashisha bari kuwurenga kugira ngo bawugurishe neza.

Umurima utarahingwa neza ngo unozwe, ukaba ukirimo ibinombori aho bikenewe gucocwa hanyuma bagasanza bakabona guteramo imyaka igiye itandukanye kugira ngo bazabone umusaruro.

Imifuka y'umweru igiye itandukanye irimo ifumbire, aho iri fumbire ari ingirakamaro cyane rikaba ryifashishwa mu buhinzi kugira ngo umuhinzi wahinze azabashe kubona umusaruro maze atere imbere.

Ubuhinzi bw'ibirayi bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga ibirayi bakabyitaho maze bikazabateza imbere byihuse bagasezera ku bukene bagahinduka abakungu.

Ahantu hari uducupa tugera muri dutatu cyangwa tune turi mu mabara y'umweru, tukaba turimo imiti igiye itandukanye bifashisha bayi kuvura amatungo igihe cyose aba yahuye n'indwara zigiye zitandukanye.

Igare riri kugenda ahantu mu muhanda, ritwawe n'umusore wambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro y'umukara. Hirya hari imifuka myinshi cyane irimo umuceri basaruye, ukaba uri ahantu ku bwanikiro.

Umurima uteyemo amoko menshi cyane agiye atandukanye y'ibimera, aho ibi bimera ari ingenzi cyane, bikaba biteye mu karima k'igikoni. Leta yadushishikarije ko buri wese yagira akarima k'igikoni ku giti cye.

Ubuhinzi bwa karoti bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga karoti bakazitaho hanyuma zikazabaha umusaruro mu gihe kiri imbere, bakaba abatunzi bakomeye cyane.

Ahantu hari umurima munini cyane uteyemo amoko agiye atandukanye y'ibimera, aho ibyo bimera ari ingirakamaro cyane ku buryo umuhinzi wese wabihinze bibasha kumuteza imbere mu gihe gito.

Ishyamba riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibimera, aho ibi bimera ari ingirakamaro cyane, hakaba hateye n'urubingo, aho uru rubingo barwifashisha bahirira amatungo yo mu rugo kugira ngo amererwe neza.

Ubworozi bw'ingurube bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora amatungo y'ingurube barabigize umwuga bakayitaho, hanyuma akazabaha umusaruro uhagije neza cyane.

Umugabo uri mu murima yateyemo imbuto akaba ari kugenda azirandura kugira ngo arebe ko hari umusaruro zamuhaye yambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ingofero y'umuhondo ndetse akaba yambaye ipantaro y'umukara.

Muri parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera haba harimo amoko menshi agiye atandukanye y'inyoni, aho hari inyoni ziba zizi kuguruka cyane zifite isunzu rinini n'amababa y'umukara ndetse n'umutuku.